Gusya mu muco nyarwanda byifashishwaga cyane kera, kuko ntibigikoreshwa cyane aho hifashishwaga urusyo n'ingasire bagasya amasaka, kugira ngo babone ifu yo gukoresha mu gukora inzoga z'urwagwa, ubu impamvu bitagikoreshwa cyane ni uko hagiye haboneka imashini zibikora ndetse rimwe na rimwe bagakoresha n'isekuru, kugirango ngo akazi kihute.

Imbyino gakondo ,imbyino gakondo ni imbyino zigaragaza umuco wacu nk'Abanyarwanda aho ubibonye wese yaba umunyamahanga, ku yindi migabane cyangwa se mu bihugu by'abaturanyi ahitaho itandukaniro hagati yacu nk'Abanyarwanda ndetse n'ibindi bihugu ni imbyino nziza uzireba wese aba yizihiwe basore beza, bagororotse kandi barambuye amaboko baduserukira buri munsi.

Isekuru ni igikoresho kifashishwa kandi cyahozeho mu muco nyarwanda. Gikoreshwa basya ifu y'ubugari, isombe, ndetse n'umuti mu gihe bakeneye kuwuha amatungo cyangwa se n'abantu , aho bivugwa ko ibintu baseye bakoresheje isekuru n'ibikoresheje imashini biba bitandukanye mu buryohe.

Abamama bakora ubucuruzi bw'inkono. Kikaba igikoresho gikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, haba mu guteka ibishyimbo, isombe, ndetse kandi no guteka imvange, nk'igihe ukeneye guteka imyumbati n'ibishyimbo se, ushobora kugikoresha uri gutega amazi, hamwe bavuga ngo ni ukureka.

Ubwato bukoreshwa mu kiyaga cya kivu mu Rwanda, bukoreshwa butwara abantu ndetse n'ibintu. Ubwato bunini cyane bushobora gutwara abantu bagera nko mu ijana, ntabwo hakoreshwa mu buryo bwo kugashya nk'uko dusanzwe tubizi, ahubwo hifashishwa moteri, kugira ngo bwambutse abantu, bubavana ahantu hamwe, bubajyana ahandi.